Ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu irimo intebe z'umukara zegamirwa, irimo n'ameza bateretseho za mudasobwa zifunguye bari kuzikoresha bari kwandikamo ibintu.

Ihuriro ry'abarimo urubyiruko ndetse n'abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba k'inama, aho bafite aho kwandika mu makayi ndetse n'amakaramu ndetse n'imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ikote afite indangururamajwi mu ntoki ari kuyivugiramo, imbere ye hari abantu bicaye mu ihema risa n'umweru, bambaye imipira isa n'icunga rihishije barimo baramukurikira.

Ihuriro ry'abarimo abagabo baturutse mu bigo bitandukanye nk'uko bigaragazwa n'utwapa turi imbere yabo duteretse ku meza twanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru turiho n'idarapo ry'u Rwanda hari abagabo bambaye amakote muri bo harimo ufashe indangururamajwi ari kuyivugiramo.

Abagore bicaye ku ntebe, bari kureba imbere ahari umuntu uri kubabwira cyangwa se uri kubereka ibintu. Bambaye imikenyero, biteguye neza nk'aho ari ikirori batashye.

Ihema ritatse ibitambaro by'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, mo imbere hakaba harimo n'ibitambaro by'umweru, hicawemo n'abagabo ndetse n'abagore ku ntebe zishasheho ibitambaro by'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu nzu, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote afite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kuyivugiramo abaha ubutumwa, inyuma ye hari ibyapa.

Ihuriro ry'abayobozi, barimo umuyobozi umwe wicaye akikijwe n'ibendera ry'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, iruhande rwe rundi hari ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Abarimo abagore ndetse n'abagabo, bakoraniye mu cyumba bicaye ku ntebe zitatse ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari ameza atwikirijwe ibitambaro by'umweru, ateretseho amazi yo kunywa, ndetse hariho n'amakaye yo kwandikaho.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bakoraniye hanze bahagaze, bambaye imipira y'amaboko magufi irimo isa n'icyatsi ndetse n'isa n'umukara, iruhande rwaho hari amahema asa n'umweru yubatse.

Mu nzu hicayemo abagabo ndetse n'abagore ku ntebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa ari mu icupa ribonerana ndetse hari n'amakaramu ndetse n'amakaye yo kwandikaho.

Abarimo abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'ubururu, bicaye mu nzu ku ntebe bateze amatwi ndetse bari no kureba imbere ahari ubutumwa buri kuhatangirwa.

Umugabo ndetse n'abagore babiri bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi, umugabo ari kuyivugiramo ndetse inyuma yabo hari amagambo ngo Kigali yacu Kigali icyeye.

Mu nzu harimo ameza ashasheho ibitambaro by'umuhondo ndetse n'intebe zo kwicaraho zegamirwa zisa n'umutuku, hahagazemo abagabo ndetse n'abagore bari kuririmba ndetse banakoma amashyi.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu ikorerwamo inama, harimo ameza ariho indangururamajwi ariho kandi n'amazi yo kunywa inyuma yabo hari umugabo ndetse n'umugore bari gukoresha mudasobwa.

Abarimo abagore ndetse n'abagabo bahuriye mu nama yiga ku bintu aho bicaye ku ntebe ndetse n'ameza biteye ku buryo buri wese aba arebana na mugenzi we umuri imbere. Imbere y'ameza yabo hariho amazi ndetse n'udupapuro tugaragaza aho baturuka cyangwa amazina yabo.

Abagore babiri ndetse n'umugabo bicaye mu nzu ku ntebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse hariho n'indangururamajwi.

Abantu benshi bakoraniye hanze barimo: abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi, hari umuntu uri hagati ari kubabwira ubutumwa.

Abantu b'abagabo bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru, hakaba harimo n'ameza ateretseho amazi yo kunywa, hariho n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse hari n'abantu bari kwandika yifashishije ikaramu.

Ihuriro ry'abarimo urubyiruko hari umugabo wahagurutse ari kuvugira mu ndangururamajwi, ni inzobe, inyuma ye hari igikuta kimanitseho igishushanyo.

Abagabo babiri baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, ari mu icupa ribonerana, ririho agapapuro kometseho kanditseho amagambo, ripfundikiye, ripfundikije agafuniko gasa n'ubururu.

Kuri ubu gukoresha urubuga rw'irembo biroroshye. Umuntu wese yabyikorera agiye ku irembo govu, agafungura uru rubuga akajya ahanditse polisi, akaba yashakiramo serivisi zitandukanye nk'izo kwiyandikisha gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga.

Umunara ukozwe n'ibyuma bitukura ndetse n'ibyumweru bishinze ku butaka, ukaba ufite uruzitiro rw'ibyuma inyuma yaho hahagaze abakozi bambaye amajire baje kuwukora.

Ibiro byicawemo n'umugabo, imbere ye hari ameza, hateretseho mudasobwa, naho iruhande rwe hicaye undi mugabo, ari kuganira, ndetse imbere ya mudasobwa hari akuma gakoreshwa mu gusakaza murandasi.

Ihuriro ry'abagabo bicaye hanze ahantu ku rubaraza rw'inzu, bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo zifunguye, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari n'ameza ateretsweho n'izo mudasobwa.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, hasi hari idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Naho REB biba byandikishijwe ibara ry'ubururu.

Gahunda yo gukingira abantu indwara z'ibyorezo isigaje iminsi ibiri yonyine kugira ngo irangire. Umuganga afata urushinge rurimo umuti ukingira akarutera umuntu kugira ngo amukingire uburwayi cyangwa icyorezo.

Uburyo nkoranabuhanga bwifashishwa mu gutanga inyemezabwishyu ku muguzi uguze ibicuruzwa bwongerewe ubushobozi bushyirwa kuri ibiyemu kabiri n'igice kimwe.

Inzu ifite icyumba cy'isomero kirimo utubati ndetse n'intebe zo kwicaraho abantu basoma. Ku tubati hometseho udupapuro twanditseho ibintu, hari abantu bicaye mu isomero.

Umunara wubakishijwe ibyuma by'umweru ndetse n'umutuku muremure hejuru hari ibyuma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa impande y'aho wubatse hari insina zifite ibirere.

Icyapa kiriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB byanditse mu ijambo ry'ubururu cyanditseho imiyoborere twifuza, umuturage ku isonga.

Inzu zifite imbuga ishashemo amabuye iy'imbuga ikaba iparitsemo imodoka y'umukara yakozwe n'uruganda rwa toyota imbere yaho hakaba hari ameza ndetse n'intebe byicarwaho n'abantu hanze.

Abakozi batanu bari mu mirimo yo kubaka ndetse no gusana ahari insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi bambaye imyambaro y'ubwirinzi.

Iminara ibiri yubakishije ibyuma bishinze ku butaka ,ni muremure hejuru uranyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi zisa n'umukara ,ikirere cyo hejuru kirasa n'ubururu ndetse n'umweru.

Inzu ifite igisenge gisakaje amabati y'umutuku, hejuru hateyeho na antene yifashishwa mu gukurura amarezo ya televiziyo, irasa n'umweru, iyi nzu ifite n'igipangu.

Umunara wubakishijwe ibyuma biteye ku butaka hakaba hari icyuma gikoreshwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi kiwumanitseho. Hejuru y'uyu munara hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hakaba hamanitseho n'itara rimurika mu muhanda igihe urumuri rw'izuba rwarenze, bigafasha abagendera mu muhanda kugenda ahabona.

Ipoto rishinze impande y'umuhanda, ririho itara rimurika mu muhanda igihe izuba ryarenze, rikaba rinyuzeho kandi insinga z'amashanyarazi zimanitse mu kirere, inyuma yaho hari bariyeri iriho ibirango by'umutuku ndetse n'umweru.

Igiti cy'ipoto kinyuzweho n'intsinga z'amashanyarazi, zisa n'umukara, nyinshi, hanze ikirere kirasa n'ubururu, iruhande rwaho ari ahantu hari inyubako, intsinga z'amashanyarazi icyo zimaze ni ukujyana umuriro mu ngo, cyangwa mu gace, hanyuma mu ngo umuriro wifashishwa mu gucana amatara, gucomeka ibyuma by'ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi.

Insinga z'umuriro w'amashanyarazi zinyura hejuru zifashe ku mapoto ashinze hasi ku butaka, hirya yaho hari agasozi gaterera kariho ibiti biteyeho.

Ibyuma bibiri by'amapironi bishinze ku butaka biriho icyuma gitanga umuriro w'amashanyarazi kimanitseho, hejuru kandi hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu duce.

Ahatangirwa serivisi hafite urubaraza rutwikiriye rwicawemo n'abagore ndetse n'abagabo bategereje kugerwaho. Ku biro bya cumi na gatatu hahagaze abagabo babiri bari kwaka serivisi.

Mu isoko riri mu nzu harimo abaguzi, harimo n'umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umukara wateretse imisatsi myinshi isokoje ari kunama aho agiye kugura ibintu.

Abantu bicaye ku ntebe z'urubaho zegamirwa, ziteretse mu rubaraza rutwikiriye ruri kwa muganga, aho bagiye kwivuza, hari abantu bari mu idirishya ry'ibiro byo kwa muganga bari gusaba serivisi.

Abagabo n'abagore b'inyangamugayo bicaye ku ntebe yegamirwa, imbere yabo hari ameza bari kwandika imyanzuro y'urubanza naho imbere yabo hicaye ndetse hanahagaze abaturage.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza ni imfungwa. Yambaye agapfukamunwa, afashe ibitabo ndetse arimo aratambuka. Inyuma ye hari ameza ariho indangururamajwi.

Umugabo wirabura wogoshe ufite ubwanwa bwo hejuru gusa yafunzwe ku itariki makumyabiri nenye z'ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo yatawe muri yombi. Uyu ni Fulujansi KAYISHEMA.

Umugabo wirabura wambaye ingofero idafite igikinga. Yambaye ni ikanzu y'umutuku isa n'umweru mu gatuza. Uyu mugabo akora imirimo irimo amategeko ndetse n'ubucamanza.

Igipangu gifite inkuta z'umweru hejuru hariho icyapa cyanditseho ko ari igororero rya Musanze kikaba kiriho n'ibirango bya repubulika y'u Rwanda; ahangaha ni ho hagororerwa imfungwa za Musanze.

Inzu irimo abantu bicaye muburyo bashyizemo intera, bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa hari umu avoka uhagaze yambaye agapfukamunwa, ndetse n'ikanzu y'umukara.

Abagabo ndetse n'abagore, bitabiriye inama, bicaye hanze, bamwe bitwikiriye imitaka, abandi ntayo bitwikiriye, imbere yabo hari inyangamugayo zicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yazo hari ameza ariho inyandiko, hagati hahagaze umugabo, uri kubazwa.

Abakozi babitorejwe bari kuzimya inkongi y'umuriro yafashe ikamyo itwara ibikomoka kuri peterori. Uyu mukozi afite umupira uri guturukamo amazi menshi ari kuzimya imodoka.

Imodoka ikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo nini, ifite n'ibimenyetso by'amatara bimurika hejuru, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Igikoresho cy'icupa risa n'umutuku, gifite umupira usa n'umukara ndetse n'ahantu bakanda hasa n'umukara, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, cyometseho ibipapuro byanditseho amagambo.

Imodoka y'umukara ifite umwanya wo gutekakamo ibintu inyuma ufunguye, iraparitse mu mbuga yashushanyijwemo imirongo igaragaza aho imodoka ziparika, iruhande rwaho hari ubusitani ndetse hari n'ikigega.

Umugabo w'umwirabura yicaranye n'umugabo w'umuzungu, imbere yabo hari inyandiko ziri ku meza ndetse bafite n'amakaramu hashinze n'ututarapo tw'ibihugu byabo; inyuma yabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ko ari abareberera amatora.

Umukandida w'ishyaka rya FPR perezida Paul Kagame, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi bashyigikiye ishyaka rya FPR bazamuye ibiganza bamwereka ko bamushyigikiye.

Mu bikorwa byo kwamamaza umukandida perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hari abantu benshi bashyigikiye ishyaka rya FPR, bambaye imipira y'umweru ndetse n'amadarapo ya FPR baje kwitabira ibikorwa byo kwamamaza.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru ni Uwiringiyimana Agatha yabaye minisitiri w'intebe kuri repubulika yari iyobowe na Habyarimana Yuvenal uyu Uwiringiyimana Agatha yishwe muri jenoside.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Minisitiri w'intebe, wambaye ishati y'umweru bari gutambuka hanze, inyuma yabo hari ihema ry'umweru, hari n'abandi bantu na bo babakurikiye.

Icyumba cy'itora cyicawemo n'umugabo ndetse n'umugore, hari impapuro z'itora zimennye hasi ku itapi isa n'icyatsi, barimo barabara amajwi, iki cyumba gitatsemo ibitambaro by'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umukandida w'ishyaka rya Green Part wiyamamarizaga kuyobora Igihugu cy'u Rwanda. Ari mu modoka yasohoye igihimba hanze. Impande ye hari abamushyigikiye bazamuye ibyapa biriho ko bagomba gutora uyu mukandida.

Inzu y'inteko nshinga mategeko yicawemo n'abantu barimo abasenateri ndetse n'abadepite. Ukuriye umutwe w'abadepite yicaye imbere inyuma ye hari ibirango by'igihugu ndetse n'idarapo.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari gutambuka yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, yambaye ishati y'amaboko maremare n'amadarubindi inyuma ye harasa n'ubururu.

Icyumba cy'itora harimo umugore uri gushyira urupapuro rw'itora mu gasanduku gashyirwamo impapuro z'itora kabonerana, ndetse mu cyumba hakaba hatatse ibitambaro bisa n'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Terifa ifite ikirango cy'ibiganza bibiri biteze, hejuru yabyo hari izuba rishushanyije rifite n'imirasire yaryo, munsi yacyo hari ijambo umurinzi. Ibyo byose byanditse mu buso bw'icyatsi.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku mirongo ibiri, bahagaze bari kwifotoreza mu nzu irimo irakamo amatara y'umweru.

Barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kitamuritswemo neza, bicaye ku ntebe batumbereye imbere ndetse muri bo harimo n'umukozi wa RIB, yicaye imbere yambaye impuzankano y'abakozi ba RIB.

Umukandida wiyamamarizaga kuyobora igihugu cy'u Rwanda Mpayimana Philipp, akaba ahagaze hanze hakaba hari indangururamajwi ishinze ku giti cyayo gituma umuntu byoroha kuyivugiraho atayifasheho, iriho umugozi w'umukara arimo gutanga ubutumwa inyuma ye hari abamushyigikiye.

Abarimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupapuro turiho imyirondoro yabo mu gatuza n'umugozi w'ubururu ufashe ako gapapuro kariho imyirondoro, bahagurutse bari gukoma amashyi.

kaburimbo uragendwamo n'imodoka ya bisi, isa n'umweru, ndetse n'indi modoka nto igendwamo mu buryo bwihariye, ihika abantu bane, iri mu ibara ry'ifeza, mu muhanda haciyemo imirongo y'umweru, icagaguye.

Imodoka ya bisi isa n'ubururu ndetse n'umweru, itwaye abagenzi iri kumanuka mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari abayobozi b'amapikipiki bayatwara mu buryo bw'umwuga bambaye amajire asa n'umuhondo ndetse n'ubururu.

Imodoka isa n'umweru, ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo, kimeze nk'isanduku ifunguye hejuru, nta kintu ihetse, irimo iragendera mu muhanda wa kaburimbo, impande yayo hari ipikipiki iri kuzamuka ihetse umugenzi.

Abayobozi b'amapikipiki babikora mu buryo bw'umwuga, ni ukuvuga batwara abagenzi bakabishyura amafaranga na bo bakabageza aho bagiye, bari mu muhanda wa kaburimbo imbere ya ho hari ikoni rigiye gukatwamo n'imodoka ndetse n'ipikipiki.

Umukozi ukora imirimo y'isuku, ni ukuvuga gusukura mu muhanda cyangwa se imbuga ziparikwamo amamodoka, yambaye inkweto z'umukara ndende zimurinda ndetse yambaye n'ijire isa icyatsi, imbere ye yegereye ingorofani ihetse ibintu.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo nto itwara ibicuruzwa birimo amavuta nk'uko ibirango bishushanyije ku gice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze kibigaragaza, hariho umugore uri kwisiga amavuta ndetse n'amacupa y'amavuta.

Imodoka ya bisi itwaye abagenzi irasa n'umweru, iragendera mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwawo hari umuferege wubatse ndetse unatwikiriye ku gice kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'amapikipiki ndetse n'imodoka byose biri kubisikana, umuhanda urasa n'umukara, impande yawo hari ibiti biteye bizana umuyaga ndetse byongera n'ubwiza.

Ibiti biteye iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, byongera ubwiza bw'umuhanda ndetse bikayungurura n'umwuka, hari imodoka ndetse n'ipikipiki biri kugendera muri uwo muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo, uragendwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka, zifite umwanya wo guhekamo ibintu inyuma, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti, byongera ubwiza ndetse bikayungurura umwuka.

Umugabo utwaye igare rya matabaro rihetse ibintu bipakiye mu mifuka isa n'umweru ndetse n'umuhondo. Umugabo yicaye ku igare arimo aranyonga.

Imodoka y'ikamyo ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo kimeze nk'isanduku ifunze, gitwikirije shitingi, izirikishije imigozi neza. Iyi modoka irimo irazamuka mu muhanda wa kaburimbo, impande yawo hateye ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ntoya, ihetse imizigo, itwikirijwe shitingi iziritse neza, hejuru hicayeho umuntu wambaye umupira usa n'umuhondo ndetse iruhande rw'umuhanda hari ibiti biteye.

Umuhanda uragendwamo n'imodoka z'amakamyo, iruhande rw'aho mu kayira k'abanyamaguru umugabo uhetse ibintu ku igare ashoreye birimo igitoki ndetse n'ibindi biri mu makarito ndetse no mu mufuka.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange isa n'ubururu ndetse ifite n'ibara ry'umweru mu rubavu rwayo, ikaba nta bagenzi barimo, impande yayo hakaba hari gutambuka umugabo.

Umugabo uri gusunika ingorofani ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iyi ngorofani itwarwaho imizigo irimo imifuka y'ibirayi, amakarito arimo amazi ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ku ruhande rwaho ifite umuferege wubakishije amatafari n'isima ku buryo bukomeye, uhitisha umuvu w'amazi atemba kugirango atuzura mu ngo zihaturiye.

Imodoka y'ikamyo itwara ibicuruzwa irasa n'ubururu imbere, inyuma hari igice gitwarwamo imizigo gisa n'umweru cyubakishijwe ibyuma bitandukanye, ku buryo umuntu areba ibirimo imbere. Ihetse ibikoresho bikoreshwa mu guteka byifashishijwe imyuka.

Akayira gashashemo amatafari kagenewe kugendwamo n'abantu bagendesha amaguru gusa kari mu mujyi, iruhande rwako hari inyubako zigiye zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse hari n'ibiti biteye bizana umuyaga.

Inzu y'amagorofa ndende isize amarangi asa n'icunga rihishije, impande yayo hari akayira kagendwamo n'abanyamaguru, karimo amatafari ashashe hasi.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru gishushanyishije imirongo y'umweru, mu bwatsi buri mu kibuga ndetse kikaba kinarimo amatapi abiri asa n'icunga rihishije.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko witwa vole. Kikaba gishashemo isima hasi y'igiheri, kikaba gifite n'urushundura rumanitse ku biti bibiri bishinze, rukaba rukinirwaho vole.

Abana bato barigukina umupira w'amaguru mu kibuga gishashemo isima giciyemo imirongo y'umweru ishushanyije. Iruhande rwaho hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga kiteyemo ibyatsi bicunze neza hakaba hakinirwamo umukino w'umupira w'amaguru. Hirya y'ho hari aho abantu bicara ku ntebe ziri hanze ku zuba ndetse hari n'amatara amurika mu kibuga igihe izuba ryarenze.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo mirongo itandatu mu ibara ry'umukara ritsiritse, iruhande rwacyo hari inzu isize amarangi ndetse ifite n'umuryango ufunze.

Umugabo uhagaze hanze mu kayira kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, afite igikapu gitwarirwa ku rutugu. Imbere ye hari icyapa cyanditseho ko ukomeje uwo muhanda uhita ugera mu karere ka rusizi.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu kikaba cyanditsemo inyuguti ya p mu ibara ry'umweru ritsiritse .Impande yayo hari imodoka ya bisi ishushanyije nayo isa n'umweru, iki cyapa cyerekana aho imodoka ziparika.

Icyapa cya mpande eshatu, gisa n'umweru mu buso bwacyo, harimo akambi kanditsemo inyuguti ya yu, haciyemo umurongo w'umutuku uberamye. Iki cyapa cyerekana ko umuntu uri kugendera mu nzira nyabagendwa ni ukuvuga umuyobozi, atemerewe guhita akatira ibumoso bwe.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, cyanditsemo inyuguti ya p, mu ibara ry'umweru ritsiritse, gishushanyijemo imodoka ndende ya bisi. Iki cyapa gishinze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, cyerekana aho imodoka zishyiriramo cyangwa zikuriramo abagenzi.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu gifite ubuso bw'umuhondo buciyemo imirongo iri mu ibara ry'umukara ritsiritse, hashushanyijemo n'umugabo uri gutera intambwe yambukira mu iyo mirongo mu ibara ry'umukara ritsiritse.

Icyapa gifite ubuso bw'umutuku, cyanditsemo amagambo y'umweru ngo: " Hagarara." Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa, kikereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko agomba kubanza guhagarara, agatanga inzira ku binyabiziga.

Umugore wambaye agiye mu rugendo ahagaze hanze ahari icyapa gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo ngo urakaza neza mu Rwanda, ni icyapa gishinze hanze ari kuyifotoreza munsi.

Umumotari uri ku ipikipiki idahetse umugenzi ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umuhondo ucagaguye, impande y'umuhanda hari inzu zituwemo ndetse zifite n'igipangu gisa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka, iruhande rwawo hari imbuga iparitsemo imodoka, iyi n'imbuga y'inzu y'amagorofa yubatse hejuru hamatseho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amaterefoni ngendanwa.

Inyubako y'akarere ka gasabo, ni inzu y'amagorofa, ikaba yanditseho Akarere ka Gasabo hejuru mu ibara ry' ubururu, hakaba hari n'agaseke kanini cyane gapfundikiye hejuru y'inyubako.

Ipoto ry'icyuma rishinze ku muhanda ririho icyapa gitukura gishushanyijeho umugabo, impande yaryo hari n'akandi kapa gafite ishusho y'umuzenguruko ndetse inyuma y'ipoto hari n'ibiti bitarakura neza.

Inyubako y'amagorofa yubakishijwe ibirahure ndetse ikaba ifite n'inkuta ziteye umucanga zisize irangi, imbere yayo hateye igiti ndetse hari n'ahantu hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda.

Inzu y'amagorofa iriho ibirahure bibonerana mu imbere bifite ibitambaro birinda urumuri kwinjira. Inyuma ifite ibyuma bikonjesha bizana umwuka ukonje mu nzu.

Agace k'imiturire karimo inzu zifite ibisenge byubatse kimwe. Harimo n'amazu atuye hejuru, inyuma yayo hari ibiti biteye byongera ubwiza ndetse bikayungurura n'umwuka.

Inyubako y'amagorofa yubakishijwe ibirahure bitabonerana, impande yaho hari icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho y'uruziga gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo inyuguti ya pa mu umukara utsiritse, gicishishemo ibara gicishijemo umurongo w'umutuku uberamye, kigaragaza ko imbere y'iyo nyubako ibinyabiziga bidafite kuhahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'imodoka ebyiri z'umukara ndetse n'amapikipiki. Imodoka y'umukara iri gukata ku Ikoni rimanuka naho y'icyatsi irakata izamuka mu umuhanda w'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite undi muhanda uwushamikiyeho, umanuka cyane iruhande rwaho hari ikoni hari n'icyapa cyanditseho KG gatandatu umunani umunani ako kapa gafite ubuso bw'umweru.

Abayobozi b'amapikipiki batwara abagenzi mu buryo bw'umwuga bahetse abagenzi bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwabo hari agace gateyemo ubusitani burimo ibiti bimeze nk'indabo ndetse hari n'izindi ndabo ntoya zisa n'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urasa n'umukara, ukaba iruhande rwawo hari ipoto ry'icyuma rirerire ririho kamera yo mu muhanda ifasha mu kureba abaca mu muhanda bose.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ndetse n'umuntu utwaye matabaro. Umuhanda urasa n'umukara kuruhande hari imirongo y'umweru icagaguye.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka ziri gukata ku cy'inzira nyabagendwa kinyurwamo bazengurutse kikaba giteyemo ubusitani ndetse harimo n'icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka ufite igice giteyemo ubusitani bwo ku mihanda bugizwe n'indabo ndetse n'ibyatsi, ukaba kandi ufite n'amatara ku muhanda amurika.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara ifite igice giciyemo imirongo isa n'umweru cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, hari umuntu ushoreye igare uri kucyambukiramo.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ifite agace gaterera gakozwe n'akadondi kariho imirongo y'umweru iciye, ahangaha iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze aba agomba kugabanya umuvuduko.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice giciyemo imirongo y'umweru cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, impande yaho hari ahantu hari ibimenyetso by'urumuri bifasha mu kuyobora imodoka ndetse n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara uragendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki, utwaye ipikipiki, yambaye Ijere y'umuhondo ndetse inasa n'ubururu, hasi mu mugongo handitseho amagambo.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ni nijoro amatara yo ku mihanda ari kwaka, abantu bari gutambuka, kandi mumuhanda wa kaburimbo hari imodoka yacanye amatara maremare irikuwugendamo.